Abana batoya barimo abakobwa ndetse n'abana bato b'abahungu, barimo barigishwa banahabwa ubumenyi kugira ngo bakure bafite uburezi bwiza kandi n'uburere.

Abanyeshuri b'abana batoya barimo abahungu ndetse n'abakobwa na mwarimu wabihuguriwe, arimo arabahereza ubumenyi ndetse banakina kugira ngo bakure bafite uburezi bwiza.

Abana bato barimo abakobwa ndetse n'abahungu, ubona ko bahuriye ahantu hamwe, aho abarimo barigishwa na mwarimu ku bintu bitandukanye, kugira ngo bakure basobanukiwe kandi bafite ireme ry'uburezi ryiza.

Abana batoya barimo abahungu ndetse n'abakobwa barimo barasobanurirwa banasomerwa inkuru n'umwarimu wabihuguriwe ubifitiye impamyabushobozi, hagamijwe kugira ngo hatezwe imbere uburezi bihereye ku bana bato.

Abana batoya barimo abakobwa ndetse n'abahungu, bakaba bagiye ku ishuri guhabwa ubumenyi kugira ngo bakure bafite ubumenyi bwiza kandi banasobanukiwe byinshi bitandukanye, maze uburezi bukomeze kunozwa kuri bose.

Abana batoya barimo abakobwa ndetse n'abahungu, harimo n'abafite ubumuga barimo bariga hagamijwe guteza imbere uburezi kuri bose.

Icyumba kirimo abana bato b'abanyeshuri, aho barimo barahabwa ubumenyi, basobanurirwa byinshi bitandukanye, hagamijwe gutezwa imbere uburezi ndetse n'ireme ry'uburezi.

Icyumba kirimo abanyeshuri, na mwarimu urimo urabafasha kugira ngo, abigishe abasobanurire ndetse bahabwe ubumenyi. Harimo abana bato b'abahungu, ndetse n'abakobwa ubona ko bishimiye kuba bari kwigishwa kandi neza.

Abana b'abanyeshuri barimo abakobwa ndetse n'abahungu, bakaba bari ku irerero ku kigo cy'ishuri, aho bahererwa ubumenyi butandukanye kugira ngo bakure bafite ubwenge buhagije.

Icyumba kirimo abanyeshuri barimo barasobanurirwa, banigishwa na mwarimu, akaba arimo arabafasha kugira ngo hanozwe uburezi kandi bunatezwe imbere.

Abana batoya barimo abakobwa ndetse n'abana bato b'abahungu, bakaba bari mu irerero ryabo aho bahabwa ubumenyi ndetse bakaba bari gufata amafunguro ya mu gitondo kugira ngo bakomeze gukura neza kandi banahabwa...

Inyubako itangirwaho uburezi bw'abanyeshuri barimo abakobwa ndetse n'abahungu kugira ngo bongererwe ubumenyi kandi babashe kugira ubwenge bubafasha kwihangira imirimo, bityo uburezi bukomeze gutezwa imbere.

Inyubako itangirwaho uburezi ku bakobwa ndetse n'abasore bakiri batoya b'urubyiruko kugira ngo hanozwe uburezi bwiza kandi bakure bazi byinshi, banasobanukiwe byinshi binyuze mu kwiga.

Icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa mu burezi kikaba kizwi nk'isomero, aho harimo ibitabo bitandukanye abanyeshuri bakoresha mu myigire yabo buri munsi kugira ngo hanozwe uburezi.

Inyubako zifashishwa mu masuku, akaba ari inyubako zo ku ishuri zikoreshwa n'abanyeshuri mu gihe bari kwiga kugira ngo hakomeze kunozwa uburezi bwiza kandi bufite ireme.

Urupapuro ruriho amoko atandukanye y'ibihekane bikoreshwa mu kwiga Ikinyarwanda ndetse no kukivuga hagamijwe kugira ngo hanozwe ururimi by'umwihariko ururimi rw'Ikinyarwanda kandi hatezwe imbere urumi rw'Ikinyarwanda.

Inyubako y'abayobozi bo ku ishuri aho abanyeshuri bahabwa serivisi ku bibazo bitandukanye bafite ndetse bakaba banasobanuza byinshi kugira ngo basobanukirwe haba mu guteza imbere uburezi bwiza.

Inyubako zitangirwamo uburezi ku bantu b'ingeri zose, harimo abana bato b'abahungu ndetse n'abakobwa. By'umwihariko hakaba hagaragara n'izindi nyubako, zifashishwa mu masuku kugira ngo hanozwe uburezi bwiza kandi bufite ireme.

Inyubako itangirwamo uburezi, abantu b'ingeri zose, yaba ari abana batoya, abakuze ndetse n'abakuze cyane. Kugira ngo babashe gusobanukirwa ndetse no kumenya byinshi binyuze mu burezi.

Inyubako yifashishwa mu burezi ku bantu batandukanye, barimo abana bato b'abakobwa ndetse n'abahungu, by'umwihariko, ubu akaba ari ubwiherero bifashisha kugira ngo bagire ubuzima bwiza ndetse hanozwe n'imibereho myiza ya bo.

Inyubako itangirwaho ubujyanama ndetse n'amasomo by'umwihariko ku bahinzi kugira ngo hanozwe iterambere ry'uburezi ndetse n'izindi ngeri zose zikaba zahafatira uburezi.

Ikigo cy'ishuri, hari abanyeshuri batandukanye, barimo abana batoya b'abakobwa ndetse n'abahungu hakaba ari ikigo gitangirwaho ubumenyi butandukanye hagamijwe kunoza uburezi.

Abanyeshuri barimo abakobwa ndetse n'abahungu bafite ibikoresho bifashisha barimo biga bizwi nka mudasobwa kugira ngo bakure bafite uburezi bwiza bufite ireme.

Ishuri ritangirwamo ubumenyi, hakaba higamo abanyeshuri barimo abakobwa ndetse n'abahungu kugira ngo basobanurirwe byinshi bitandukanye bityo hakomeze kunozwa uburezi.

Ikigo cy'ishuri hari abanyeshuri barimo abakobwa ndetse n'abahungu, baje kwiga kugira ngo bahabwe ubumenyi ndetse bongererwe ibitekerezo binyuze mu masomo bafata.

Ikibuga gikinirwamo umukino ukinwa hakoreshejwe amaboko, harimo abakozi bo muri icyo kigo ndetse n'amashuri atandukanye atangirwamo ubumenyi ku banyeshuri.

Icyumba gitangirwaho uburezi ku banyeshuri batandukanye, harimo igishushanyo kigaragaza inyubako, imeza, igikombe akaba ari uburyo bukoreshwa kugira ngo hatangwe ubumenyi binyuze mu gushushanya.

Abana batoya barimo barigishwa ndetse banasobanurwa byinshi bitandukanye, nka mwarimu wabihuguriwe kandi abizobereye kugira ngo hanozwe uburezi bwiza kandi n'ireme ry'uburezi ryubahirizwe.

Inyubako itangirwaho serivisi z'uburezi ku bantu batandukanye, barimo abana bato b'abakobwa, abahungu, kugira ngo hanozwe uburezi kandi hatezwe imbere uburezi bwiza kandi bwizewe kuri bose.

Icyumba gitangirwamo uburezi ku bantu b'ingeri zitandukanye, barimo, abana bato b'abakobwa ndetse n'abahungu, hakaba harimo ibikoresho byifashishwa, harimo intebe bicaraho kugira ngo bahabwe ubumenyi bwiza.

Icyumba kirimo ibikombe bitandukanye, ubona ko byagiye bihiganwa bigatsindirwa binyuze mu marushanwa, ategurwa n'ibigo by'amashuri kugira ngo hanozwe uburezi mu bato.

Ikigo cy'ishuri ahatangirwa ubumenyi ku bantu batandukanye barimo abakobwa ndetse n'abahungu, hagamijwe guteza imbere uburezi ndetse no kongerera ubumenyi abanyeshuri.

Abana bato b'abanyeshuri barimo abakobwa ndetse n'abahungu, bakaba bari mu kigo cy'ishuri, aho babasha gufatira ubumenyi butandukanye ndetse bakanigishwa byinshi kugira ngo baronke uburezi.

Abanyeshuri barimo abana bato b'abakobwa ndetse n'abahungu barimo barakina mu kigo cy'ishuri kugira ngo baruhure mu mutwe kandi n'uburezi bwiza bahabwa bukomeza kunozwa.

Inyubako irimo ibikoresho byifashishwa mu burezi, harimo intebe ndetse n'ibindi bikoresho, akaba ari ibikoresho byiza kandi byizewe byinshi ku buryo abantu nyamwinshi babasha kuza bakahigira kandi uburezi bugatezwa imbere neza.

Abanyeshuri batatu bari mu ishuri, bari baje kwiga kugira ngo bongererwe ubumenyi maze, bakure bafite ubwenge n'ubumenyi ku masomo. Ni abana bato b'abahungu ubona ko bafite ibikoresho birimo igikapu kirimo amakaye n'ibindi.

Abanyeshuri barimo abakobwa ndetse n'abahungu bari kumwe na mwarimu, arimo arabafasha anabasobanurira ku mikorere n'imikoresherezwe ya mudasobwa mu gushaka amakuru yerekeye ku byo biga, kugira ngo bakomeze gutezwa imbere mu burezi ndetse no kubunoza.

Ibitabo by'imibare byifashishwa higishwa abana barimo abakobwa ndetse n'abahungu, kugira ngo basobanukirwe ubumenyi bujyanye n'imibare hanozwe uburezi.

Abanyeshuri b'abana batoya b'abahungu, bari ku ishuri aho bahererwa ubumenyi butandukanye ndetse bakanasobanurirwa byinshi kugira ngo bakure bafite uburezi bwiza kandi bwizewe.

Inyubako itangirwamo ubumenyi ku bantu b'ingeri zose barimo abana bato b'abakobwa ndetse n'abahungu hagamijwe kugira ngo basobanukirwe ndetse bamenye byinshi bitandukanye, binyuze mu burezi ndetse hatezwe imbere uburezi.

Abanyeshuri barimo abakobwa ndetse n'abahungu, ari abiga mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, barimo baricunda ku byicandabo biri mu kigo kugira ngo hanozwe uburezi ndetse n'umwitozo ngororamubiri utezwe imbere.

Abanyeshuri barimo abakobwa ndetse n'abahungu, barimo barahabwa ubumenyi n'umwarimu wabihuguriwe ndetse ubifitiye impamyabushobozi hagamijwe kunoza uburezi bwiza kuri bose.

Ibiryo bigaburirwa abanyeshuri ku bigo by'amashuri, ndetse bikaba ari umusaruro uba waturutse mu buhinzi kugira ngo hanozwe uburezi bwiza, abanyeshuri babashe kwiga neza nta kibazo bafite.

Abanyeshuri barimo barahugurwa ndetse banasobanurirwa ku mikoreshereze ya mudasobwa, babifashijwemo n'abarimu b'inzobere bahuguwe kandi babifitiye ubushobozi.

Inyubako itangirwamo uburezi ku bantu b'ingeri zose, yaba ari uburezi bw'abana batoya ndetse n'abakuze, hagamijwe kugira ngo hakomeze guteza imbere imyigishirize ndetse n'imyigire ku bantu bose.

Ishuri ritangirwaho uburere ndetse n'ubumenyi ku banyeshuri barimo abakobwa ndetse n'abahungu, aha ngaha akaba ari ku biro bya Butare ahatangirwa serivisi kuri abo banyeshuri.

Abanyeshuri barimo abakobwa ndetse n'abahungu bahurijwe hamwe mu cyumba kinini, aho barimo barahabwa ubumenyi banaganirizwa kugira ngo hanozwe uburezi kandi bunatezwe imbere.

Icyumba gitangirwamo uburezi ku banyeshuri barimo abakobwa ndetse n'abahungu, hakaba harimo ibikoresho bakoresha kugira ngo hanozwe uburezi, harimo intebe bicaraho ndetse n'ibikoresho mwarimu yifashisha.

Abanyeshuri batatu bagiye kwiga bifashishije ibikoresho bimwe na bimwe bikoreshwa hanozwa uburezi harimo amakayi ndetse n'ibindi bikoresho, ukaba ubona ko bishimiye kujya kwiga kugira ngo bakomeze kugira ubumenyi.

Ikigo cy'ishuri ahatangirwa ubumenyi, yaba ari ku bakobwa ndetse n'abahungu, kugira ngo bongererwe ubushobozi ndetse n'ubumenyi, binyuze mu guteza imbere uburezi kuri bose.

Ihuriro ry'abanyeshuri mu kigo cy'ishuri barimo abakobwa ndetse n'abahungu, harimo abahungu n'abakobwa barimo barabyina bakaraga umubyimba ndetse bakomeza kunoza umuco wa kinyarwanda, hanatezwa imbere uburezi.

Abanyeshuri barimo bariga bakaba bari kwifashisha ibikoresho birimo mudasobwa ndetse bafite n'amazi barimo baranywa mu gihe bananiwe, bakaba bari kumwe na mwarimu urimo urabafasha kubasobanurira byinshi bitandukanye kugirango hanozwe uburezi.

Inyubako itangirwamo ubumenyi butandukanye ku ngeri zose, yaba ari ubumenyi bw'abana batoya, ubw'abakuze hagamijwe kugira ngo hatezwe imbere uburezi ndetse abaturage babashe kugira ubusobanuro butandukanye n'amakuru ahagije ku bintu bitandukanye.

Ikigo cy'ishuri cya segonderi cya Elena, ahatangirwa ubumenyi butandukanye ku bakobwa ndetse n'abahungu binyuze mu burezi, kugira hakomezwe gutezwa imbere uburezi.

Abana bato b'abanyeshuri barimo baratega imodoka kugira ngo babashe kugera ku ishuri vuba, aho bagiye kwiga ndetse bagasobanurirwa byinshi bitandukanye, kugira ngo bakure bafite ubuzima bwiza, bityo n'uburezi butezwe imbere.

Abanyeshuri barimo abakobwa ndetse n'abahungu, bari mu cyumba ku ishuri aho barimo barafata amasomo, basobanurirwa n'umwarimu kugira ngo akomeze kugira uburezi bwiza kandi bufite ireme.

Icyumba cy'ishuri harimo abanyeshuri barimo bariga isomo ry'icyongereza kugira ngo hakomeze kongerara ubumenyi bushingiye ku rurimi bityo uburezi bwiza bukomezaze kunozwa ku isi hose.

Umukino wahuje amakipe abiri, umukino ukinwa n'amaboko aho abanyeshuri baje kugira ngo bakomeze guhabwa ubumenyi butandukanye.

Inyubako itangirwaho ubumenyi n'amasomo ku banyeshuri, harimo abakobwa ndetse n'abahungu, hakaba hasohotsemo abakobwa ubona ko bavuye gufata amasomo kandi bize neza.

Abanyeshuri barimo abakobwa ndetse n'abahungu, bambaye imyambaro y'ishuri ndetse bari kumwe n'ababarera harimo n'abayobozi babakuriye, kugira ngo bakomeze guteza imbere uburezi.

Abanyeshuri b'abakobwa ndetse n'abasore, aho baba bari ku ishuri bongererwa ubumenyi, bakanahabwa amasomo atandukanye, bari kumwe na mwarimu, aho arimo arabakoresha umwitozo wo kuririmba ndetse anabafasha.

Abanyeshuri bari mu ishuri barimo barigishwa na mwarimu wabihuguriwe, bafite mudasobwa ziri kubafasha kugira ngo hanozwe uburezi kandi babashe kwiga vuba bityo bagire ubumenyi butandukanye bwimbitse.

Inyubako irimo abanyeshuri biga imyuga ndetse n'ubumenyingiro byo kudoda, aho barimo barasobanurirwa imikoreshereze y'imashini ndetse na bo ubwabo bazikoresha.

Abanyeshuri barimo abakobwa ndetse n'abahungu, barimo barigishwa banasobanurirwa na mwarimu amasomo agiye atandukanye kugira ngo bakomeze bagire ubumenyi bwiza bwimbitse kandi bufite ireme.

Icyumba kirimo abanyeshuri barimo barigishwa na mwarimu, harimo abakobwa ndetse n'abahungu, mwarimu arimo arabasobanurira kugira ngo bagire ubumenyi bwiza ndetse, babashe kugira ubusobanuro buhagije.

Inyubako zigishirizwamo abanyeshuri, barimo abakobwa ndetse n'abahungu kugira ngo babashe guhabwa ubumenyi ndetse basobanukirwe, bityo uburezi butezwe imbere.

Abanyeshuri b'abakobwa bagiye kwiga kugira ngo babashe kugira ubumenyi bwinshi kandi buhanitse binyuze mu kwiga neza, bakaba bagiye ku ishuri kugira ngo bahabwe amasomo n'abarimu.

Ishuri ahatangirwa uburere ndetse n'ubumenyi butandukanye ku bantu b'ingeri zitandukanye, hagamijwe kugira ngo uburezi butezwe imbere kuri bose kandi n'abantu bakomeze kugira ubwenge bwo kwifashisha.

Inyubako nziza nini itangirwamo uburezi bw'abantu, harimo abakobwa ndetse n'abahungu, abagore ndetse n'abagabo, akaba ari inyubako yifashishwa hatezwa imbere uburezi.

Icyumba kirimo abanyeshuri biganjemo abakobwa ndetse n'abahungu na mwarimu urimo urabafasha kugira ngo bige, harimo igikoresho cyo kwifashisha kizwi nka mudasobwa kugira ngo hanozwe uburezi.

Amarembo y'ikigo cy'ishuri, aho abantu bahurira batandukanye, bakigishwa ndetse bakanasobanurirwa byinshi, kugira ngo hakomeze kunozwa uburezi.

Icyumba cy'ishuri gikoreshwa hatangwa ubumenyi ku banyeshuri barimo abakobwa ndetse n'abahungu, hakaba harimo ibitabo byifashishwa mu gusoma kugira ngo babashe kugira ubumenyi bwinshi, binyuze mu gushakashaka amakuru aturutse muri ibyo bitabo.

Icyumba kirimo abanyeshuri barimo barakora ibazwa kugira ngo hasuzumwe niba ibyo bize barabifashe ndetse babyibuka, bityo ubumenyi bahawe butangirika, ahubwo babashe kubwifashisha mu buzima busanzwe.

Umunyeshuri arimo arakina umukino w'amaboko, aho yari aboneje umupira mu nkangara, bivuze ko yari atsinze amanota, ubona ko hari imbaga y'abantu nyamwinshi baje barimo n'abanyeshuri, hagamijwe guteza imbere uburezi.

Abanyeshuri b'abakobwa barimo barakora amasukuba, bakaba bari mu kigo aho abanyeshuri, babasha kwigara bagahabwa ubumenyi ndetse bagasobanukirwa byinshi bitandukanye mu ishuri.

Abanyeshuri barimo barahabwa ubumenyi butandukanye ku bikoresho bitandukanye, aho barimo barasobanurirwa uburyo ibikoresho bikora ndetse n'akamaro kabyo mu buzima bwa buri munsi, hakaba harimo abakobwa ndetse n'abasore.

Inyubako itangirwaho uburezi ku banyeshuri b'ingeri zose, harimo abakobwa ndetse n'abahungu, hakaba hagaragara abanyeshuri, ubona ko baje kwiga bahabwe amasomo ndetse basobanukirwe byinshi bitandukanye.

Icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa hanozwa ndetse hatezwa imbere uburezi, harimo isomero ndetse n'intebe zikoreshwa kugirango ngo bakomeze guteza imbere uburezi bwiza, kandi kuri bose.

Abanyeshuri bagiye kwiga barimo abakobwa ndetse n'abasore bafite ibikoresho birimo ibyo bazakoresha baryamaho ndetse n'amakaye azifashishwa bari ku ishuri kugira ngo bakomeze kugira amasomo meza.

Ishuri ritangirwamo ubumenyi butandukanye ku banyeshuri, barimo abakobwa ndetse n'abahungu kugira ngo bagire ubwenge no gusobanukirwa byimbitseho, hari nk'ibikoresho byifashishwa birimo ikibaho mwarimu yandikaho.

Ishuri ritangirwaho ubumenyi ku bantu batandukanye barimo abana bato b'abakobwa ndetse n'abahungu kugira ngo bakure, bafite uburere bwiza ndetse n'uburezi n'ubumenyi butandukanye binyuze mu guteza imbere amashuri.

Ishuri ahatangirwa ubumenyi butandukanye yaba ari ku bana batoya, abakobwa ndetse n'urubyiruko rw'abasore hagamijwe guteza imbere uburezi, bakaba barimo barakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo uburezi bunozwe kandi n'umubiri ukomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako irimo ibikoresho byifashishwa mu kwigisha abanyeshuri barimo barakora isuzuma ndetse n'ubushakashatsi mu byo bize mu ishuri kugira ngo babivane mu magambo banabishyire mu ngiro.

Ku ishuri rya Butare, ahatangirwa ubumenyi bwiza butandukanye ku bakobwa ndetse n'abahungu, kugira ngo bakomeze kugira ubwenge bwaguye kandi bwinshi babwifashishe mu kwiteza imbere.

Inyubako irimo abanyeshuri barimo abakobwa ndetse n'abahungu, barimo bariga bahabwa ubumenyi butandukanye hifashishijwe ibikoresho birimo mudasobwa ndetse n'umwarimu urimo urabafasha kugira ngo hanozwe uburezi.

Ishuri ritangirwaho ubumenyi ku bantu hatandukanye harimo abana bato b'abakobwa n'abahungu, kugira ngo hakomeze kunozwa uburezi, kandi hatezwe imbere uburezi.

Abanyeshuri barimo abakobwa ndetse n'abasore bagiye kwiga kugira ngo bongererwe ubumenyi ndetse barusheho gusobanukirwa byinshi bitandukanye, maze uburezi bukomeze gutezwa imbere no kunozwa muri rusange.

Umunyeshuri arimo arakosora ibazwa rito ahawe na mwarimu mu ishuri kugira ngo hanozwe uburezi kuri bose, arimo arifashisha ibikoresho bitandukanye birimo ingwa ndetse n'ikibaho.

Abanyeshuri benshi barimo abakobwa ndetse n'abahungu, bahurijwe ahantu hamwe barimo barasobanurirwa banaganirizwa n'inzego z'umutekano polisi y'igihugu, kugira ngo babashe kumenya no gusobanukirwa byinshi byerekeye ku mategeko, maze bagire uburezi bufite ireme.

Inyubako zitangirwamo uburezi ku bantu b'ingeri zose harimo abana batoya ndetse n'abantu bakuze kugira ngo hakomeze kunozwa uburezi.

Icyumba kirimo kirategurwa kugira ngo hajye hatangirwamo uburezi bw'abanyeshuri, ahabikwa ibitabo byifashishwa barimo barasoma ndetse baniga amasomo.

Ibikoresho byifashishwa hatangwa ubumenyi ku banyeshuri kugira ngo bakomeze guteza imbere uburezi kandi ubuzima bwiza bw'abanyeshuri na bwo butezwe imbere.

Inyubako itangirwaho serivisi z'uburezi ku bantu batandukanye barimo abakobwa ndetse n'abahungu, abagabo ndetse n'abagore hagamijwe kugira ngo bongererwe ubumenyi maze uburezi bukomeze gutezwa imbere.

Icyumba gikorerwamo isuku, kikaba cyifashishwa n'abanyeshuri baba baje gufata amasomo ndetse n'ubumenyi butandukanye ku ishuri, kugira ngo hatezwe imbere uburezi bwiza bwizewe.

Inyubako itangirwamo uburezi ku bantu batandukanye barimo abakobwa ndetse n'abahungu, by'umwihariko urubyiruko kugira ngo bakomeze gutezwa imbere uburezi bwiza n'imibereho myiza binyuze mu kubahereza amasomo.

Inyubako itangirwaho uburezi bw'abanyeshuri, yaba ari abakobwa ndetse n'abahungu, abagabo ndetse n'abagore kugira ngo bongererwe ubumenyi ku bintu byinshi bitandukanye bityo hanozwe uburezi bwiza.

Icyumba kirimo abanyeshuri barimo bariga harimo abasore ndetse n'abakobwa, bifashishije ibikoresho birimo mudasobwa zabo ndetse na mwarimu urimo arabafasha kugira ngo babashe kwiga neza.

Inyubako itangirwamo uburezi ku bantu batandukanye harimo abakobwa, abamama n'abapapa ndetse n'abasore, hakaba hari urujya n'uruza rw'abantu ubona ko baje gufata amasomo, basobanurirwe byinshi bitandukanye kandi hanozwe uburezi.

Umumama arimo aratanga ubumenyi ku banyeshuri bo mu ishuri rya Kitabi, muri kaminuza kugira ngo babashe kugira ubumenyi no gusobanukirwa byinshi bitandukanye.

Abanyeshuri barimo barigishwa n'inzobere ku bintu bitandukanye hagamijwe kugira ngo abongererere ubumenyi ndetse hatezwe imbere uburezi hifashishijwe ibikoresho nk'aho abanyeshuri bicara ndetse n'ibindi bikoresho mbonezamashusho.

Icyumba kirimo abanyeshuri bafite za mudasobwa, bari kuzifashisha bashaka amakuru ku mbuga nkoranyambaga yerekeye n'amasomo, kugira ngo bakomeze kugira uburezi bwiza ndetse bwimbitse kandi hatezwe imbere ibyo bari kwiga, ndetse hakaba harimo n'umwarimu ubafasha kugira ngo byose bigerweho kandi neza.

Abanyeshuri benshi barimo abahungu ndetse n'abakobwa, bari mu cyumba kimwe ubona ko barimo barasobanurirwa banigishwa amasomo azabafasha mu buzima bwa buri munsi.

Icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa mu burezi, harimo ahabikwa ibitabo ndetse n'ahatekwa za Mudasobwa, kugira ngo hatangwe uburezi bwiza bwizewe ku banyeshuri, kandi bakomeze bagire ubwenge.

Icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa, hanozwa uburezi ndetse butezwa imbere, aho harimo ahashyirwa mudasobwa ndetse n'intebe abanyeshuri bicaraho kugira ngo, babashe kwiga neza kandi bahabwe uburezi bwizewe.

Inyubako itangirwaho uburezi yaba uburezi bw'abana b'abahungu ndetse n'abakobwa, ku marembo yaho hakaba hari abakozi bakoramo muri iyo nyubako ndetse n'abanyeshuri baje kugira ngo bahabwe ubumenyi.

Inyubako itangirwamo ibiganiro ndetse n'inyigisho zitandukanye, yaba ari ku banyeshuri cyangwa se abandi bantu. Akaba ari inyubako nini ku buryo umubare nyamwinshi w'abantu bashobora kuza, bagahugurwa kandi neza.

Amashuri ahatangirwa ubumenyi ku bantu batandukanye barimo abakobwa, abahungu ndetse hakaba hari n'urukarabiro kugira ngo hanozwe isuku n'imyigire myiza ku banyeshuri.

Icyumba gitangirwamo ubumenyi ndetse n'amasomo atandukanye kugira ngo abanyeshuri babashe kongererwa no kumenya byinshi bitandukanye, hakaba harimo ibikoresho byifashishwa mu gutanga ubumenyi.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, aho abanyeshuri bahererwa ubumenyi butandukanye bagasobanurirwa byinshi ndetse n'imikoreshereze y'ibyo bikoresho, harimo umunyeshuri urimo urigishwa kugira ngo abashe kugira ubumenyi.

Icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa higishwa abanyeshuri barimo abahungu ndetse n'abakobwa kugira ngo basobanukirwe byinshi bitandukanye, bityo hanozwe uburezi bwiza kandi bwimbitse.

Inyubako nini itangirwaho uburezi bw'abanyeshuri, aho abarimu bigishiriza abanyeshuri barimo abakobwa n'abahungu kugira ngo abongererere ubumenyi, barusheho gusobanukirwa nyinshi ndetse kandi bitandukanye.

Inyubako itangirwamo uburezi bw'abantu b'ingeri zose yaba ari abasore, abakobwa, abagabo ndetse n'abagore, ikaba inyubako nini ku buryo umubare nyamwinshi w'abaturage babasha kuhafatira ubumenyi hagamijwe guteza imbere uburezi.

Inyubako nziza yubakanywe isuku, ikaba itangirwamo uburezi, yaba ari uburezi ku bana batoya ndetse n'abakuze, kugira ngo babashe gusobanukirwa byinshi bitandukanye, yaba ari ibijyanye n'uburwayi ndetse n'ubundi bumenyi butandukanye, kugira ngo hakomeze gutezwa imbere uburezi bwiza kandi bwizewe.

Inyubako nini cyane, ubona ko ihuriramo abantu benshi kugira ngo baganirizwe ndetse bahabwe ubumenyi ku bintu bitandukanye, bityo uburezi bukomezwe gutezwa imbere.

Abantu babiri b'abahungu barimo barakoresha bimwe mu bikoresho byifashishwa kugira ngo havumburwe ndetse hanarebwe imimerere y'udusimba dutoya ndetse n'ibice by'ibimera kugira ngo hanozwe uburezi.

Inyubako zitangirwaho uburezi, yaba ari uburezi bw'abakobwa ndetse n'abasore kugira ngo bongererwe ubumenyi maze bakure neza, banasobanukirwa byinshi bitandukanye. Bityo uburezi bukomeze kunozwa no gutezwa imbere muri rusange.

Icyumba kirimo abanyeshuri batandukanye, barimo abakobwa ndetse n'abasore, aho barimo barigishwa na mwarimu, bakaba bafite Mudasobwa zibafasha kugira ngo hanozwe uburezi bwiza, kandi babashe gushaka amakuru no ku mbuga nkoranyambaga yimbitse.

Inyubako itangirwaho uburezi butandukanye, yaba ari ku bana bato ndetse no ku bakuze, abakobwa, abagore ndetse abagabo n'abasore kugira ngo bakomeze kunoza uburezi kandi hatezwe imbere uburezi bwiza.

Ububiko bw'ibitabo bikoreshwa mu gusoma kugira ngo abantu bagire ubumenyi ndetse babashe gusobanukirwa byinshi bitandukanye biri muri ibyo bitabo, bityo bakomeze kunoza no guteza imbere uburezi.

Ibikoresho byifashishwa n'abanyeshuri kugira ngo bakomeze kugira ubumenyi bwimbitse no gusobanukirwa neza ku byo bize, maze uburezi bukomeze gutezwa imbere.

Inyubako itangirwaho uburezi ku bantu b'ingeri zose, yaba abakobwa, abasore ndetse n'abakuze, hagamijwe kugira ngo hakomeze kunozwa uburezi kuri bose.

Umusore arimo arasoma igitabo kugira ngo yiyungure ubumenyi, afite na mudasobwa akoresha kugira ngo abashe gushakisha andi makuru yimbitse ku mbuga nkoranyambaga bityo akomeze kugira ubumenyi bwiza kandi bwisumbuyeho.

Abanyeshuri barimo barahabwa amasomo atandukanye kugira ngo babashe kugira ubumenyi ndetse banasobanukirwe byinshi bitandukanye, bityo uburezi bukomeze gutezwa imbere.

Abanyeshuri barimo abakobwa ndetse n'abasore barimo barigishwa na mwarimu aho arimo arabasobanurira ku bintu bitandukanye kugira ngo abongererere ubumenyi, maze akomeze kunoza uburezi bwiza kandi bwizewe.

Inyubako itangirwaho uburezi butandukanye iyo ari uburezi bw'abana batoya b'abakobwa ndetse n'abasore, hagamijwe kunoza uburezi ndetse no guteza imbere uburezi muri rusange mu ngeri zose.

Inyubako irimo ibikoresho byifashishwa hasobanurirwa ndetse hanigishwa abanyeshuri, kugira ngo abashe kugira ngo ubumenyi bwimbitse ku mikoreshereze y'ibyo bikoresho, kandi n'abo ngabo babashe kubimenya.

Ku ishuri rya Kaminuza y'u Rwanda, ahagaragara amerekezo aranga aho ubwiherero buri kugira ngo hanozwe uburezi bwiza ndetse burimo n'isuku.

Inyubako itangirwamo uburezi aho harimo abantu barimo barahugurwa na mwarimu, abasobanurira kugira ngo bakomeze kugira uburezi ndetse n'ubumenyi butandukanye, bityo uburezi bukomeza gutezwa imbere.

Inyubako nini ngari ahatangirwa uburezi ku bakobwa, abasore, abagabo ndetse n'abagore kugira ngo bakomeze kugira ubumenyi bwimbitse no gusobanukirwa bihagije, bityo ubwo bumenyi babwifashishe mu buzima busanzwe.

Icyumba kirimo umwarimu hakaba hatangirwa ubumenyi butandukanye ku banyeshuri, harimo gukora ubushakashatsi bwimbitse ndetse no kuvumbura ibintu bitandukanye kugira ngo hanozwe uburezi.

Icyumba kinini kirimo abanyeshuri barimo abakobwa ndetse n'abasore, aho barimo barafata amafunguro kugira ngo bakomeze kwiga kandi bafite ubuzima bwiza maze babashe guteza imbere uburezi bwabo ndetse n'uburezi muri rusange.

Ikigo gitangirwaho ubumenyi ngiro buzwi nk'ubumenyi bw'imyuga, akaba ari ikigo cya Kitabi, ahigishirizwa abantu b'ingeri zose yaba ari abakobwa ndetse n'abasore kugira ngo hatezwe imbere uburezi, by'umwihariko ubukerarugendo.

Icyumba gitanyurwamo ubumenyi binyuze mu burezi hakaba harimo ibikoresho byifashishwa, harimo intebe abanyeshuri bicaraho ndetse n'ameza aterekaho za mudasobwa za bo, hakaba harimo umunyeshuri ubona ko yararimo arihugura ku masomo.

Amoko atandukanye y'ibiryo harimo ibirinda indwara, ibyubaka umubiri ndetse n'ibitera imbaraga. Bikaba ari ibihingwa ubonako harimo harakoreshwa ubumenyi bwatangiwe mu mashuri ajyanye no gutegura indyo yuzuye.

Inyubako itangirwaho uburezi bw'ingeri zose, yaba uburezi bw'abana batoya, barimo bakobwa ndetse n'abahungu kugira ngo babashe gukura bafite, banasobanukiwe byinshi bitandukanye.

Icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa mu burezi, harimo intebe abanyeshuri bicaraho ndetse n'imeza baterekaho ibitabo na za mudasobwa ku bazifite kugira ngo hanozwe uburezi bwiza kandi kuri bose.

Inyubako itangirwaho uburezi binyuze mu kwigisha, aho abanyeshuri barimo: abakobwa ndetse n'abahungu baza bagahabwa ubumenyi ndetse bakongererwa ubwenge bityo bakabasha kubwifashisha mu buzima bwa buri munsi.

Inyubako itangirwamo inyigisho ndetse n'amasomo yaba ari ku bakobwa ndetse n'abasore kugira ngo uburezi butezwe imbere kandi basobanurirwe, banamenye byinshi bitandukanye.

Ishuri ritangirwaho uburezi ku bantu batandukanye barimo abakobwa ndetse n'abahungu, kugira ngo bongererwe ubumenyi kandi hakomeze kunozwa uburezi mu baturage hose.

Icyumba kirimo uburyamo, butandukanye bukaba bwifashishwa n'abanyeshuri, cyane cyane abiga mu bigo birara kugira ngo hakomeze hanozwe uburezi n'izindi serivisi zijyanye n'uburezi.

Icyumba cyo ku ishuri cyifashishwa abanyeshuri bafata icyayi kugira ngo babashe kwiga bameze neza, bafite n'ubuzima bwiza kugira ngo uburezi bahabwa n'amasomo biga babashe kuyafata neza bityo uburezi butezwe imbere.

Imeza iriho ibikoresho byifashishwa mu burezi, hari mudasobwa ndetse n'ikindi gikoresho gikoreshwa hasohorwa impapuro zanditseho abanyeshuri basoma kugira ngo bakomeze kugira ubumenyi bwimbitse bityo hatezwe imbere uburezi.

Mama ufite mudasobwa, ndetse n'abandi bantu barimo abagabo ndetse n'abasore, barimo bariga basobanurirwa byinshi bitandukanye, aho barimo barasobanurirwa na mwarimu w'impuguke.

Icyapa cyanditseho ko bibujijwe kunyura muri ubu busitani kugira ngo butabasha kwangirika, bukaba bwarahinzwe neza hifashishijwe ibyatsi bikanitabwaho.

Icyumba cyifashishwa n'abanyeshuri mu bushakashatsi, kugira ngo bongererwe ubumenyi kandi bakomeze kugira byinshi bitandukanye basobanukirwa bijyanye n'amasomo biga. Kikaba ari icyumba cyiza kandi gifite isuku.

Ishuri ahigishirizwa abanyeshuri barimo abakobwa ndetse n'abahungu kugira ngo bakomeze kugira ubumenyi bwinshi, kandi buhagije ku masomo ndetse no muzima busanzwe.

Abantu bane ubona ko ari abanyeshuri barimo abasore ndetse n'abakobwa, bakaba barimo barakoresha ubumenyi bavanye mu mashuri bubaka ndetse banifashisha ibikoresho byabugenewe.

Inyubako itangirwaho uburezi ku bantu batandukanye, hakaba hari imbaga y'abantu nyamwinshi, harimo abakobwa, abamama, abasore ndetse n'abagabo, aho baje kugira ngo bafate ubumenyi butandukanye maze hanozwe uburezi.

Inyubako itangirwamo uburezi bw'abantu b'ingeri zose barimo abakobwa n'abasore, hakaba harimo abanyeshuri umwe akaba afite mudasobwa ndetse n'ikayi aho arimo ariga ndetse n'undi musore nawe uri ku ruhande urimo ariga.

Icyumba kirimo abanyeshuri b'ingeri zitandukanye, harimo abasore n'abakobwa, abapapa ndetse n'abamama, aho barimo barasobanurirwa kugira ngo bahabwe ubumenyi ku bintu byinshi bitandukanye bifashishije ibikoresho birimo mudasobwa ndetse n'imbonezamashusho.

Ibikoresho byifashishwa hagamijwe kunoza uburezi ndetse no guteza imbere uburezi, ahabikwa ibitabo ndetse n'indi mimaro itandukanye bigiye bifite, kugira ngo abanyeshuri babyifashishe ndetse bakomeze kugira uburezi bwiza.

Inyubako ibikwamo ibitabo, aho abantu batandukanye b'ingeri zose baza bakabisoma kugira ngo biyungure ubumenyi ndetse bamenye byinshi bitandukanye biri muri ibyo bitabo, bikaba byifashishwa hagamijwe guteza imbere uburezi, aho abanyeshuri babikoresha mu kwiga.